Iri ni iduka bacururizagamo imiti itandukanye ubona ko rigizwe n'akabati kameze neza cane, gafite utwumba buri kumba kagendanye n'imiti yako.

Ibyatsi byiza cane biri mu bwoko butandukanye, byagiye byihuza ku buryo utabona ukandagira. Harimo urupamba rwazamutse dukoresha turikuboha ibirago rwavuyemo rurazamuka kurusha izindi.